Umuntu usa nkaho ari kuhira umuceri ariko afite igikoresho cyabugenewe ndetse kigezweho kijyanye n'igihe tugezemo. Yambaye n'agapfukamunwa ndetse n'uturindantoki.

Hari umuntu ufite ifi nini nziza rwose, ayifiteti mu kintu cy'ikibasiketi, bisa nkaho aribwo avuye kuyiroba kuko nta nubwo yari yayikawusha.

Turi kubona ahantu bisa nk'aho hakorerwa ubworozi. Akaba ari ubworozi bw'amafi. Dore ko turi kubona n'ibyuzi aho birererwamo ayo mafi.

Umuntu ari mu murima, bisa nkaho arimo kubagara ibihingwa bye kugira ngo bibone uko bizakura neza ndetse bikure byisanzuye binasusurutse.

Umugabo uhagaze hagati mu ikawa, bisa nkaho zitari zera, ariko nanone zitanga ikizere dore ko zimaze gukura ndetse n'impeke zatangiye kuza harabura igihe gito ngo zere neza.

Igikoresho bita ipensi gikunda gukoreshwa mu gufungura amaburo nko mu gihe umuntu ari gukora imodoka cyangwa se afungura n'ibindi bikoresho bigiye bitandukanye nk'ibyo ku nzugi n'ibindi.

Abantu barasa naho barimo barabagara ibigori ni abagabo batatu umwe abari imbere afite agasuka, inyuma ye hari uwundi uhagaze wambaye ingofero mu gihe inyuma y'uwo nguwo hari uwundi na we wunamye wambaye imyenda isa nk'iyagisirikare.

Hari ubwoko butandukanye bw'ibiribwa birimo ibibiriganya, bikabamo imyungu, bikabamo imineke ndetse n'ibindi biri ahantu mu byibo.

Ndabona insina iryamye hasi iriho amakoma ndetse hari n'ibirere, biragaragara y'uko ari ahantu mu murima ibi ngibi akaba ari bimwe mu bihingwa ngandurarugo.

Ahantu bisa nkaho'a ari mu ishyamba, ndetse iryo shyamba rikaba ririmo umuhanda wa kaburimbo uri kunyuramo abantu batwaye amagare.

Mu ishyamba hagaragara ibiti bigiye bitandukanye, by'ubwoko bwinshi biragaragara ko bicucitse cyangwa se biteye ahantu hamwe ari byinshi, gusa haragaragara neza cyane.

Haragaragara ahantu hari ibihingwa byinshi ndetse hafite n'ishusho nziza, hasa nkaho hahinze umuceri ariko utari wagera igihe cyo gusarurwa.

Umurima usa nk'aho wamaze kuba ikigunda cyane ko bigaragara ko hadaheruka guhingwa, iruhande rwabo hakaba hari ibiti by'imigano iteye uko bisanzwe iba icucitse cyane.

Turabona igiti cy'amapapayi kikabaha rwose amapa yarajemo ari na menshi, ariko ntago yari yatangira guhisha ku buryo umuntu yayarya.

Ahantu hari ibihingwa bigiye bihinze ku murongo, bikaba bisa nkaho harimo kuhirwa ariko buhira mu buryo bugezweho, atari rimwe umuntu agendana rozwari ngo agende ashyiramo amazi gake gake.

Umugore n'umugabo ndetse n'abandi hirya yabo bambaye imyenda isa bose umugamba ari umwe ubona y'uko babukereye aho bari kuhira imyaka irimo ibigori ndetse n'ibishyimbo.

Umugore afite rozwari ahagaze mu murima usa nkaho urimo ibihingwa bikiri bitoya, arimo kubyuhira kugira bibone uko bikura neza, ubundi bizabyara umusaruro mu minsi iri imbere.

Hari ikiyaga kirimo ubwato bubiri ndetse n'abasare, hakurya y'aho hari umusozi urimo ibubwoko bugiye butandukanye bw'ibiti.

Urutoki ruri hagati y'amashyamba bigaragara ko ari urutoki rwose rushyitse, rucucitse, rurimo insina nyinshi zigiye zitandukanye.

Inkwavu zorowe mu buryo bwa kijyambere bazishyize ahantu ndetse imbere ya buri rukwavu hagiye hari agasahani bisa nkaho ari ako bazishyirariramo ibyo kurya kugira ngo ziticwa n'inzara.

Inka isa nkaho itari yakura ariko hafi yayo hari n'izindi harimo izihagaze ndetse n'izibyagiye, imwe yegereye umuntu wambaye itaburiya ameze nk'ushaka kuyagaza.

Inyubako isa nkaho ari iyahariwe ubworozi bw'amatungo magufi ,hakaba harimo umugabo uri kugenda agaburira inkoko, ariko bigaragara ko zateye n'amagi nayo ari kugenda ayafata.

Turabona ibinyampeke bigiye bitandukanye, biri ahantu hamwe mu mbehe zitandukanye birimo ibishyimbo birimo amashaza, birimo ubunyobwa, birimo ibigori ndetse n'ibindi.

Turabona ibishyimbo biri mu mukabase biri mu bwoko butandukanye kuko bigaragara ko bidatoranyijwe ariko na none ntabwo bivuze ko birimo umwanda ahubwo ni uko bidatoye ngo bimwe bibe bisa ukwabyo.

Hari abantu bisa nk'aho bari gutora ibishyimbo, kumwe umuntu atoramo ibyo gutega ndetse n'ibindi byo kurya.

Hari inka ziri mu biraro byazo, hafi yaho hari abantu bashinzwe kwita ku matungo cyangwa se abo bakunda kwita abaveterineri, baba baje kuzisura kugira ngo bamenye ko zimeze neza.

Turabona isatura ebyiri, imwe irasa nk'iri kunywa amazi, iyindi nayo iyihagaze iruhande ziri kureba mu byerekezo bibiri bitandukanye.